Akabare gacuruza inzoga za Buralirwa zipfundikiye, kari ahantu hatuje ku buryo ukanyweramo aba afite ituze n'amahoro ku kinyobwa cye yabashije kwigezaho.

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye hamwe mu byishimo runaka, barimo guceza imiziki, ubona ko bishimye bishimira igikorwa barimo.

Ubwoko bw'ibiryo bw'inyama bwatetswe, neza bwahiye neza ndetse kandi ubona ko bwamaze gutegurwa ku buryo ubukoresha yatangira akabukoresha , bukamukiza isari.

Igikoni kimeze neza cya kizungu, gitegurirwamo ibyo kurya bitandukanye, hamwe ugera ndetse bikaba ngombwa ko wanakwiyarurira nta kibazo, ukishyura amafaranga agenwe.

Ibiribwa byamaze gutegurwa neza ku buryo ushatse gufungura wakomeza ugafungura, higanjeho ibirayi ndetse n'inyama izwi ku bwoko bw'ifi.

Ifunguro ryateguwe neza, ririmo byose haba ibihiye, tungurusumu, ndetse n'imbuto ziribwa zidatetswe. Harimo amatungurusumu, seleri, ndetse n'andi matunda.

Ahatunganyirizwa isabune yirukana ibinyenzi, ikoreshwa no mugukoropa. Bivuze ngo ni uruganda rw'isabune.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ndetse hatangirwa n'ama inite, iruhande ariho inyubako ya etaje irimo kubakwa itari yuzura neza ubona ko igeze kure, ko mu minsi iri imbere izaba yasojwe.

Ishami rifasha abaturage kwizigama, cyangwa se kubika amafaranga yabo mu gashami ka banki ya Kigali ,ku buryo amafaranga yawe aba yizewe ,ndetse wabitsa kandi ukanabikuza.

Aha mubona ni hotel, hotel nziza iri ahantu hatuje hakirirwa abashitsi, haba amacumbi, umushitsi wese ugezemo ahabwa ico kurya, agahabwa ico kunywa ndetse agacumbika, ku buryo abasha kuba yakwitaho ku munsi w'ejo.

Ahantu heza hatuje, hatewe bimwe mu mitako y'ibimera ubona ko ari ahantu ikimera cyishimiye, kandi kigatanga ituze, kigahumeka neza kitabangamiye ibikorwa bindi bihakorerwa.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ,ibinyabiziga bigiye bitandukanye amagare, imodoka zigisha gutwara, imodoka zitwara abashyitsi ubonako ziri ahantu haparitse zitari mu muhanda nyabagendwa wabugenewe wazo, ahubwo ziparitse ku ruhande imbere y'amazu.

Isoko rikikije umuhanda. Isoko rikikije umuhanda, amazu akikije umuhanda ku buryo ukenera kudodesha cyangwa se kugura umwenda yambuka umuhanda, akajya kugura kuko hariho n'icyapa kibyerekana ibyo bagurisha, ku buryo utakwirirwa uyoboza.

Buranjoli icuruza ibiribwa birimo imigati, imineke ndetse n'ibindi, ndetse n'amazi ariko higanjemo imigati, imigati iribwa.

Utu ni udutako dukorwa mu masaro .Amasaro afatishijwe n'indodo. Twambarwa ku maboko .Kugira ngo utwambaye, agaragare neza ku maboko nk'uturanga bwiza.

Inzu yubatse neza kandi yubatse yitaruye izindi, ubona ko ari inzu iri ahantu hatuje, ifite imbuga ikoze neza, ishashemo amabuye ndetse n'agasima, ubona ko nta mucucu cyangwa se ivumbi ryabasha kwataka ibyo umucuruzi arimo gucuruza.

Umushinga wo gucumbikira abagenzi, cyangwa se abaturage cyangwa se abayobozi muri rusange, abo bwiriyeho batarashyika imuhira, bakaba batari burare bagenda ahubwo bakaza bakishyura amafaranga, noneho bakabaha uburyamo ndetse n'ibyo kurya.

Ahantu heza hatuje hari umutekano usesuye ku buryo nta rusaku, hoteli icumbikira abashyitsi ndetse ikanabakira ikabaha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Icyapa kigaragaza aho umuti wirukana ibinyenzi ubarizwa, ko wawusanga aho ngaho. Indangakerekezo cy'uwo muti.

Ubutekero bw'ibiribwa bugezweho, bwubatse neza ubona ko bufite isuku, aho uteka nta myotsi cya se ivumbi rije mu biryo, cyangwa se mo ndani mu gikoni.

Etaje igeretse ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho bigaragara ko hasi hacururizwa ibikoresho byo murugo, ama base, indobo, ibikapu ndetse n'ibindi ibikoresho ariko higanjemo amabase.

Ahakorerwa ibikorwa by'ikoranabuhanga, haba ku mayinite kugura amasimukadi, ndetse no kuba wakwifotoza bakaguha ifoto bakoresheje ikoranabuhanga, ku buryo bidatinda ngo bimare igihe runaka utegereje ayo mafoto.

Iyi ni butike icuruza ibyokurya bigiye bitandukanye. Harimo amabase, amabahasha ndetse n'umuceri. Ubona ko higanjemo ikiribwa cy'umuceri ko ari wo wiganjemo mu biribwa acuruza.

Urujya n'uruza rwateraniye ahantu hamwe hari bigaragara ko hari saro de kwafiri kuko hari icyapa cya saro de kwafiri, bigaragaze ko abantu bajya kwitunganirizamo umusatsi ndetse ubona ko hari n'abantu benshi barimo kuhaganirira ku makupure abiri agiye atandukanye.

Urutonde umurongo w'amazu atondetse ku muhanda y'ubucuruzi acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye ariko higanjemo imiti.

Akaba ari inyubako zubatswe neza, zubatswe impande y'akayira k'abanyamaguru k'amampave, akaba ari inyubako zibamo serivisi nyinshi zikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, bikorerwamo ubukwe, agakorerwamo ibinyobwa, bivuze ko utahagera ngo wicwe n'icyaka ufite ayawe.

Saro isokoza ndetse ikanasuka amadiredi agiye mu bwoko bugiye butandukanye. Ubona ko ukenera hari nimero yahamagararaho kugira ngo amenyeshe ko abashaka, kugira ngo bagire serivisi bamuha.

Inyubako zikoreshwa mu bucuruzi, bugiye butandukanye, ubona ko ari inyubako ya etaje. Hejuru hari akantu kameze nka hoteli, hariho imitako cyangwa se ibiti byitwa imigano, y'ibikoreshwa mu gutaka ahantu heza hatuwe neza ndetse habakire, deni, hasi hariho ubucuruzi bw'imikoropesho ndetse n'ibindi ariko ubona ko hakorerwa ubucuruzi.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe mu gice kimwe cy'inyubako, gikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibiribwa higanjemo wotameloni.

Ibinyabiziga bitwara abantu, byiganjemo amamoto, aparitse akaba aparitse ku mapave, ubona ko ategerejwe kuba yagurishwa, ko hariho ibiciro byazo, ubikeneye yahagana akahigurira ikinyabiziga.

Umuti uterwa ibitunguru kugira ngo bibashe kugira ubuzima bwiza, ukarinda udukoko tuza kubyona kugira ngo bibashe gukura neza nta nkomyi cyangwa se byangiritse.

Inyubako imeze neza, itewe amarangi y'umuhondo, ikaba ifite amadirishya atewe amarangi y'umutuku, ndetse n'utugiriyage tuhazitiye cyangwa tuyizitiriye, ku bigaragara iyi iri mu kirere. Ni etaje.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe bigaragara ko ari isoko, kuko amazu yaho agaragara ko akikije umuhanda, cyangwa se urujya n'uruza, hariho amagaze, hariho imitaka ya za Emutiyeni, bigaragara ko hatangirwa ibikorwa by'ubucuruzi.

Iduka ricuruza ibihangano ndetse rikanacuruzwa n'abadamu ubona ko higanjemo uduseke twifashishwa mu kugemura cyangwa se mu kubika imbuto runaka.

Iduka ricuruza ibikoresho bya elegitoroniki byinshi bigezweho mu bigaragara harimo amatelefoni, amateleviziyo ya migiseri, amakitere ndetse hakaba hari n'ishami rya beka banki ofu kigali.

Igaraje rikanika amagare, igaraje ry'amagare ryifashishwa mu gukanika ibinyabiziga by'amagare, ubona ko amagare ahakusanyirizwa kugirango akanikwe aho yangiritse asanwe neza.

Ahabumbirwa ibikoresho bikoreshwa mu guteka, higanjemo imbabura zizwiho ko zikoreshwa mu guteka hifashishijwe amakara ava mu biti.

Etaje nziza ,igeretse neza, kandi ubona ko yuzuye irimo gukoreshwa, hirya yayo hakaba hari indi nyubako na bwo igaragaza ko ari etaje ,ariko yo itaratangira gukora kuko itari yuzura.

Uko bigaragara mu ruhuriro rw'imihanda, umwe utambika undi uzamuka hakoreshwa n'ibinyabiziga, bigiye bitandukanye, ndetse hariho n'utuyira tw'abanyamaguru, ku buryo na bo babasha gukoresha iki gisate, nta kibazo babigizeho.

Murakoze uyu ni umutaka, umutaka w'umucuruzi wa emutiyene, urimo kwereka yuko akora igikorwa cyo gutanga amayinite, kubitsa, kubikuza, akuyobora buryo ki wavana amafaranga kuri telefone yawe ukayafata muntoki cyangwa se ukayakura mu ntoki uyashyira kuri telefone yawe.

Iduka ricuruza ibikoresho by'abanyeshuri bigiye bitandukanye, harimo amakaye n'amakaramu, ndetse rigacuruza n'ibindi harimo nka fanta, amabiswi, amabuye ya radiyo, ndetse n'amashikareta, ariko nk'uko mubibibona higanjemo amakayi ndetse n'amakaramu.

Akajaride keza karimo ibiti, ubwoko bw'ibiti byitwa insasa. Cyngwa se imigano, ubona ko itari yakura. Hariho intebe ku buryo hashobora kuba hariho n'umurinzi ubasha kuba yakwerekera abantu bajya babagana, akabarangira aho bashaka.

Ahantu hakorerwa serivisi zigiye zitandukanye, bigaragara ko hacururizwa ibiribwa bizwi nko k'ubwoko bw'imigati, imigati y'amoko menshi atandukanye, bishoboke ko har'uruganda rugumishwa.

Utu ni udukufe dukoreshwa twambarwa nk'ibikomo, ibikomo byambarwa mu maboko natwo twambarwa mu maboko mu bujana.

Urujya n'uruza rw'imyenda iri mu cyapa. Icyapa kigaragaza ko hari isoko ry'imyenda. Hari ibikoresho umuntu yakwifashisha yiyambika. Higanjemo amakoti.

Inzu nziza, yubatswe neza, ku buryo bugezweho y'ubucuruzi, ikaba ikikije umuhanda, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye: ibiribwa, imyambaro, ndetse n'ibindi.

Ikinyabiziga gitwara, gifasha abaturage kugeza ibyo bashaka gutuma, aho ari ho hose kibasha kuba cyagera. Kikabikusanya kandi kikabitwara ku giciro gitoya.

Ahantu hacururizwa, bigaragara ko atari inzu y'ubucuruzi, ahubwo ari ubucuruzi bukorerwa ahantu ku nzu yo kubamo, hagaragara ko hariho imifuka ya sima icuruzwa.

Iduka ricuruza ibyuma. Ibyuma byibanjemo iby'ubwubatsi ubonana ko hakorerwa ubusuderi bwabyo kugira ngo aho biri ngombwa ko babiteranya ,babiteranye.

Abantu bicaye hamwe ku ka butike, kandi butike bigaragara ko ikora icuruza itarafunga. Ndetse hariho n'icyapa gitanga ikaze kubaza bagana, cyangwa se bashaka ibicuruzwa aha ngaha.

Ihuriro ry'ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'imyambaro igiye itandukanye. Isoko rihurirwamo n'abantu benshi baje gushakisha icyo bakeneye mu buzima bwabo, kugira ngo bakomeze babashe kubaho, higanjemo umuceri.

Ahantu hakorerwa serivisi zigiye zitandukanye, hariho iby'ikoranabuhanga mitiyu ndetse no kubikura nkuko tubona ikirango, ndetse bakaba bakorana na beka, ku buryo na banki na zo bakorana na zo kandi bagatanga na serivisi z'ubutaka, n'izindi zigiye zitandukanye.

Iki ni igipangu cyubatswe neza cyangwa se ni urukuta rwubatswe neza. Bigaragara ko mo indani harimo ibisheke bateyemo. Ibisheke biribwa ndetse nk'uko icyapa kibigaragaza hariho n'inzoga za Sikolo cyangwa se za Buralirwa.

Inzu y'ubucuruzi iranguza cyangwa se icuruza imigati ,imigati iribwa higanjemo imigati yoroshye.

Ihuriro, ikusanyirizo ry'ibiryo, zirimo inyanya, karoti, imboga, by'umwihariko higanjemo inyanya, ndetse na karoti. Akaba ari ibiribwa byose bishyirwa mu mboga, kugira ngo bikore imboga ziryoshye.

Butiki y'ibiribwa bigiye bitandukanye higanjemo akawunga ifu y'akawunga iribwa ku buryo bumeze neza ifu nziza kandi inoze

Ibikoresho bihangano bikoreshwa mu rugo ibikoresho harimo: indiga, amapata ndetse n'amakadiri ariko higanjemo amapata ku buryo bikoreshwa mu gutera inzugi no gukinga.

Ibi ni ubwoko bw'ibirungo bihingwa bizwi ku bwoko bwa beterave ku buryo iyo ubisekuye ukabishyira mu mazi atetse, cyangwa se ashyushye ukabirongoza, ukavangamo inanasi bikora umutobe kandi umeze neza uryoshe.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe mu isoko aho barimo gushaka imyambaro higanjemo imyenda imipira higanjemo ubona ko higanjemo imyenda y'imbeho cyane cyane iy'abana ndetse n'abadamu rero akaba ari isoko ryiza wahahiramo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye hamwe mu isoko barimo guhaha imyenda yiganjemo imyenda y'imbeho, amakoti ndetse n'imipira.

Iduka rikoreshwa iduka rikoreshwa mu gucuruza ibikoresho byo mu rugo byo mu nzu amasafuriya, ibikombe ndetse n'ibindi ariko higanjemo ibikombe.

Urabona ko iyi ni butike icuruza ibiribwa harimo n'ubunyobwa, harimo ibirayi, imbuto ndetse n'imboga. Bigaragara ko higanjemo imboga za pinari.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho amabase, indobo, ibiyiko, amafoke, ibirahure ndetse n'ibindi. Ariko nk'uko mu bibona higanjemo, e amabase ndetse n'ibiyiko.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, bahuriye mu isoko ry'ibiribwa riherereye mu karere ka Musanze, akaba ari isoko ribamo ibiribwa bigiye bitandukanye ubishaka wese yakenera. Akaba ryubatswe mu buryo bwa ethane.

Inyubako nini, etaje nini cyane ubona ko ari inyubako nini ugereranije ko igeretse inshuro nyinshi, ndetse hasi hariho ibigega bigaragara ko ibi bigega ari byo bifata amazi, cyangwa se hakaba hariho ibigega bigurishwa. Ndetse ikigaragara ni uko iri ku muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga by'ibinyamidetende byinshi.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye ,harimo amapantaro, ibitenge, ndetse n'amashati ariko higanjemo ibitenge by'abagore.

Ahacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye, udukosi, uturushe, ibyuma cya se udusekuzo, udupura, ndetse ubona ko higanjemo ibikosi.

Butike y'amavuta meza cyane, butike irimo amavuta agiye atandukanye, butike irimo buri kimwe wakenera kugira ngo uruhu rwawe ubashe kurukesha. Iyi ni butike rero igezweho kandi irimo imiti y'inkweto, irimo amavuta, irimo buri kimwe cyose wakenera kugira ngo ubashe gukesha uruhu rwawe, ndetse no kuba wabasha gukesha inkweto yawe haba conga ndetse n'izindi.

Urujya n'uruza rw'abaturage bateraniye hamwe, bigaragara ko barimo gupakiza, cyangwa se kugura ku modoka y'imizigo yegereye isoko.

Isoko cyangwa se ihuriro ry'abantu benshi aho baza ku kugurira imyenda, bigaragareko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, yiganjemo amakabutura kandi ubonako adahenze cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, gare y'imodoka ubona ko harimo imodoka nkeya, abagenzi na bo bakaba ari bakeya, ku buryo gukora ingendo uri bukenere biri buze kumworohera. Ari bubone imodoka.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe，bigaragara ko ari ku isoko，mbese mu isoko ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, urabona ko abantu bose bari muri ma bizinesi yabo， barimo berekera， bamwe barimo gukora bizisinesi ，abandi barimo kugenda barimo gushakisha ibyo bamwemo barashaka.

Ihuriro ry'inkweto nyinshi zahurijwe hamwe kugirango zicuruzwe, ukenera inkweto zifunguye abe yahagera azigure, aguremo ubwoko ashaka yirobanuze.

Inkweto nyinshi nyinshi cyane zirimo kugurishwa ztanditse ahantu hamwe kugira ngo umukiriya uzishaka azihasange, higanjemo inkweto z'abagore.